Agasanduku karimo ibipimo bigiye bitandukanye ndetse n'imiti iri mu ducupa duto nk'uko bigaragara harimo inshinge ndetse n'uducupa tw'imiti, aha rero abaganga bakaba babikoresha mu gihe bagiye gutera umuntu urushinge bamutera imiti.

Abaganga babihuguriwe kandi babisobanukiwe, ni babiri bari mu ivuriro rimwe, bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'impuzankano, hari umubyeyi umwe waje kwivuza, bamushyizeho akantu ku bumviriza umuvuduko w'amaraso, bari kumusuzuma kugira ngo bamuvure.

Umwana uri guseka cyane, ari kuvoma amajerekani atatu, ndetse ari kuvomera ku ivomero rusange ryubakiwe abaturage, aya mavomero yubatswe na Leta y'u Rwanda kugira ngo ageze amazi meza cyane ku baturage babo.

Umugabo wicaye imbere y'ivomero Leta yegereje abaturage. Amaze kuvoma amazi ayafite mu ijerekani, aricaye ari guseka yishimira ibyiza Leta y'u Rwanda yabagejejeho. Nk'uko bigaragara mu duce twose tw'igihugu amazi meza yarahageze.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe harimo umu mama uteruye umwana, uwo mu mama yambaye agapira k'umweru ndetse n'ibitenge, n'umwana ateruye yambaye agapira k'umuhondo ndetse hari umugabo uri kumukoraho wambaye agapira k'umuhondo hamwe n'amarinete.

Abana beza cyane kandi bakiri bato barishimye cyane bari guseka bari gukaraba intoki babifashijwemo n'umugabo uri aho hafi, ntagaragara neza igice cyo mu maso ariko hari kugaragara igikombe ndetse n'ikiganza cye asukira aba bana maze bagakaraba intoki.

Umupapa uri gukorera umwana ijerekani, imbere ye hari umukobwa mwiza cyane w'umuzungu uri kumufotora, uwo mupapa yambaye umupira w'ubururu, ingofero ndetse n'agapfukamunwa. Umwana ni muto cyane bari kumukorera ijerekani, ariko na we yambaye agashati ndetse n'akajipo, imbere yabo hari abandi bantu bari kubareba.

Ni ababyeyi bumva cyane kandi beza bitabiriye gahunda yo gupimisha ingano y'umwana, aho ufata umwana ukamujyana umujyanama w'ubuzima akamwakirana urugwiro maze akamushyira ku munzani akareba ibiro agize, ibi bintu ababyeyi bakunda kubikora.

Umuntu bigaragara ko ameze nkaho ari mu kigo nderabuzima, ari gusobanuza ndetse bakamusobanurira, ni abasore babiri bahagaze barebana, nkuko bigaragara umwe arabwira undi akamwumva, ndetse n'undi agasobanukirwa.

Uburinganire bwahawe intebe mu Rwanda, ikagaragaza uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, aha hari abadamu babiri ndetse n'umugabo umwe bari gupakira imodoka, bari guterura agafuka bagaterekamo nta n'umwe uvuga ngo ibi ntibindeba.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, hari umugabo wicaye ku ntebe ndetse hari n'abandi bamuhagaze imbere, nk'uko bigaragara ni kwa muganga, hari gutanga amahugurwa agiye atandukanye ndetse bari gutanga n'imiti. Hari umugabo wambaye ijire y'aba kuruwaruje ndetse hari n'undi wambaye iy'abasekirite.

Ubuzima bwiza bwegerejwe abanyeshuri, mu bigo by'amashuri bahashyize za kandagira ukarabe, aho abanyeshuri batambuka bagakaraba, bagakaraba intoki mbere yo kurya, bagakaraba intoki mbere yo kujya mu ishuri, bagakaraba intoki igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa.

Uru ni urubyiruko rwibumbiye hamwe ndetse ni bane, abakobwa batatu n'umuhungu umwe, nk'uko bigaragara bari ku kigo cyagenewe guhugura urubyiruko bari kubasobanurira ibijyanye n'imyororokere.

Inzu nziza cyane isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, hagaze abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo umugabo wambaye akajire k'ubururu, hakaba harimo n'undi mugabo wambaye itaburaye y'abaganga. Nk'uko bigaragara, aha hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Uwo umukecuru bigaragara ko yahuye n'ibibazo by'ihungabana ryo mu mutwe, yicaye ku muhanda inyuma ye hari abantu bamushungereye, akaba afite ibintu by'ibicupa biri imbere ye ndetse n'ibibando. Yambaye ibyenda bishaje ndetse n'inkweto zamusaziyeho.

Abana benshi cyane bicaye ndetse harimo umumama bigaragara ko akuze ariko nk'uko bigaragara aba bana bafite ibibazo bigiye bitandukanye ndetse n'uyu mumama byanze bikunze afite ikibazo cyo mu mutwe kuko bigaragara ko ntacyo yigeze afasha aba bana.

Umusore wubitse agahanga mu biganza, nkuko bigaragara ashobora kuba afite ihungabana ryo mu mutwe, imbere ye hari umukobwa wambaye isaha ku kuboko, umufashe ku rutugu, bigaragara ko ari kumuhumuriza, anamwihanganisha.

Ubu ni bumwe mu buryo bwo kugira abantu inama y'ukuntu bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, aha rero hakaba hariho umugabo ndetse n'umugore, aba bakaba bari kuvuga bati "Ubu aka kanya turi kumwe ku rubuga kugira ngo tubasobanurire".

Umukecuru wahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ihungabana, ateza igitambaro cyiza ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi. Si ibyo gusa kuko afite n'amaherena ku matwi, ariko nk'uko bigaragara yarananutse cyane, afite ibibazo byinshi cyane kandi bikomeye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite marikeri mu ntoki ndetse ahagaze mu nzu bakoreramo isuzuma. Nk'uko bigaragara ni umuganga w'amenyo. Yambaye agapfukamunwa, bigaragara neza ko ari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'uburyo bakura amenyo.

Akana gato cyane keza karyamye ku muganga. Uyu muganga nk'uko bigaragara yambaye ga, akaba ari kugakura amenyo, ariko ari kubikora mu buryo bwa gihanga kuko aka kana ntikigeze kababara, kari guseka kandi karishimye.

Umugabo ufite amenyo meza cyane yashyizemo urudoda ari kuyagorora, nk'uko bigaragara ni muganga wabimutegetse, ari kubikora abikunze kuko abizi ko ari umuti kandi akaba azi neza ko amenyo ye azakira nta kabuza.

Uto ni utwuma twifashishwa n'abaganga b'amenyo, aha rero iyo muganga w'amenyo agafashe akagushyira hejuru maze akamenya niba ukwiye gukurwa iryinyo cyangwa se barihoma, ibi rero biba mu mavuriro meza cyane.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru nk'uko bigaragara. Imbere ye hari undi muntu ariko utagaragara neza, uri kumwereka ukuntu yagorora amenyo ye. Nawe ari kubyumva akabigerageza kandi akabikora. Ibi rero, bigaragara ko ari ubuvuzi.

Igishushanyo kigaragaza mu kanwa k'umuntu aho bagaragaza amenyo yose uko yakabaye. Aha turi kuhabona amenyo arenga mirongo itatu n'abiri nk'uko bigaragara ni akanwa kasamuye aho amenyo yose agaragara. Ibi rero bikoreshwa n'abaganga bavura amenyo.

Umupapa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, afite agakinisho mu ntoki ndetse imbere ye yicaye umwana afite nk'aho ari kumwigisha, uyu mwana afite imisatsi myinshi ndetse na papa we afite imisatsi myinshi ndetse yambaye n'amarinete.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bari mu rukundo, barishimiranye cyane, umusaza yaryamye ku mukecuru, umukecuru ateza agatambaro k'umutuku, na ho umusaza yazanye imvi, nk'uko bigaragara barakundana kandi barishimiranye.

Abadamu batatu ndetse n'abagabo babiri, abadamu bari imbere, abagabo bakaba babari inyuma, bambaye amataburiya agaragaza ko ari abaganga ndetse aha ngaha nkuko bigaragara bahagaze mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, imbere yabo hari indabyo nziza.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, harimo abasaza, abamama, abasore, ndetse n'inkumi, ndetse harimo n'umwana bahetse mu mugongo, bose barishimye, nk'uko bigaragara bitaye kuri uyu musaza, bamukujije neza.

Aha ni kwa muganga aho hagaragaye inyubako irimo udutanda ikaba iriho utwuma umurwayi yifashisha ahagararaho mu gihe yumva niba yabashije guhagarara. Hari umurwayi ariko ntari kugaragara neza afashe kuri utwo twuma, ari kugerageza guhagarara ngo yeme.

Uyu mukecuru yicaye ahantu hasa nkaho hari akavuyo k'ibihuru byinshi. Hari ibintu byinshi cyane by'ibihuru ndetse hari n'inkono yubitseho indi, biteretse ku mashyiga ya rukarakara, nkuko bigaragara uyu mukecuru aratetse.

Abantu bagiye batandukanye ariko ubona ko bakuze, abenshi bashobora kuba bashaje cyane kuko bose bafite inkoni, aha rero nk'uko bigaragara bicaye mu ntebe nziza cyane z'amadiva, aho bigaragara ko wagira ngo hari umuntu bategereje cyangwa se hari ikirori kigiye kubahabera.

Umugabo uhagaze imbere y'indangururamajwi imbere ye hari indangururamajwi nyinshi ndetse n'isakazamajwi ,hafi aho hari igishushanyo kiriho umugabo wambaye amarinete ikote ndetse na karuvate, uyu mugabo rero bigaragara Ko ari gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima.

Abasore babiri bambaye amakote y'umukara, bombi ni abasore beza cyane, umwe arahagaze ndetse undi aricaye, aha rero bikaba bigaragara yuko ari impuguke mu bijyanye n'ubuvuzi, bakaba biteguye gutanga ikiganiro kijyanye no kuvura abantu.

Ababyeyi bose bafashe ingamba zo gupimisha abana babo, nk'uko tubibona hano hari ababyeyi bane bose baje gupimisha abana babo, harimo abadamu batatu ndetse n'umugabo imbere yabo hateretse ibyapa byinshi byamamaza, bigaragara ko ari kwa muganga.

Inyubako nziza cyane, iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, kuri geti yayo hari ibyapa bigiye bitandukanye, nk'uko tubibona mu imbere harimo inyubako nziza cyane hakabamo n'ibiti byiza, aha rero ni ku bitaro bya Nyanza.

Inyubako nziza cyane iri ahantu heza cyane kandi hitaruye, nk'uko bigaragara hari ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi byiza ndetse n'indabyo, ikirere kimeze neza kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, nk'uko bigaragara ni inyubako y'ibitaro.

Inyubako nziza cyane hasi hasashe amapave, ndetse hateretse n'utubati, si ibyo gusa ku ruhande winjira hateretse sanitayiza hakaba hari icyapa kiriho umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire, yambaye amarinete ndetse bari kwamamaza ivuriro.

Iyi ni inyubako y'ibitaro turi kubona idirishya ririho ibirahure byiza cyane by'umukara, hakaba hariho utwapa tugiye tugaragaza ibikorwa bakora, si ibyo gusa kuko hari n'amagambo yandikishijwe inyuguti ziri mu mabara menshi, haba umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

Umugore wambaye ishati y'iroze akaba afite imisatsi y'amamenshi, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse yayitebeje, imbere yabo hari umukobwa umeze nkaho arwaye, aryamye ku gatanda bari kumufata kugira ngo bamuvure.

Inyubako nziza cyane igeretse inshuro zirenze enye, iriho ibirahuri byiza cyane iby'umweru ndetse n'iby'ubururu. Si ibyo gusa imbere yayo, hakorotiriye n'ibyuma byiza cyane by'umukara, hariho utuntu dusongoye tw'umweru.

Aha ni mu bitaro mw'imbere turi kubonamo ibitanda byiza cyane bavuriraho abarwayi, tukabona inzitiramibu zigiye zimanitse kuri buri gitanda, tukabona n'amashuka yifashishwa mu gihe muganga agiye kuvura. Aha rero ni heza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatse ahantu hitaruye, imbere yayo hariho indabo ndetse hakabaho n'amatiye amanura amazi hejuru. Nk'uko bigaragara ni ibitaro bya Gihundwe mu karere ka Rusizi mu Rwanda.

Umusore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ingofero y'umukara, yambaye agapfukamunwa k'umukara, aryamye ku gatanda k'abarwayi. Umuganga mwiza cyane w'umumama wambaye itaburiya y'umweru y'abaganga, ndetse afite n'imisatsi myiza cyane ya menshi, ari kumushyiraho akantu k'ubururu, nkuko bigaragara ari kumupima umuvuduko w'amaraso

Umukobwa mwiza cyane bigaragara ko ari umuforomokazi, afashe akuma bifashisha mu gupima abarwayi agashyize ku musaza. Uyu musaza yambaye amarinete ari guseka cyane ndetse n'uyu muforomo ari ku musekera bigaragara ko ari kumuvura kandi amwitayeho.

Aha ni ahabugenewe cyangwa se ububiko bw'imiti kwa muganga, nk'uko hagaragara harimo imiti igiye itandukanye amoko menshi cyane. Si ibyo gusa harimo utubati igiye iteretseho tugerekeranyije, nk'uko bigaragara hasi hari isima nziza cyane.

Ni inyubako nziza cyane yagenewe gukorerwamo siporo. Nk'uko bigaragara, harimo ibyuma byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo. Harimo utugare, hakabamo n'ibindi byuma ukandagiraho, maze ukabasha kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane, hubatse urukuta rw'amabuye, harimo indabyo nziza cyane, hafasha amapave hasi nk'uko bigaragara harimo ubusitani bwiza cyane buteguye, aha rero hakaba ari mu bitaro aho abarwayi barwarira.

Inyubako nziza cyane, isize amarangi y'umweru, harimo uturongo tw'ubururu, hasi hakaba hagiye harimo utubara tw'umukara, irimo amakaro abengerana cyane asukuye, ifite inzugi z'umutuku, nkuko bigaragara ni ibitaro.

Inyubako zigiye zitandukanye, hagati hacamo umuhanda w'igitaka urimo utubuye. Si ibyo gusa kuri geti yaho hari icyapa cyanditseho ibitaro bya Kabgayi. Harimo ibiti byiza cyane ndetse n'ubusitani bwiza, aha ni mu ivuriro rya Kabgayi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru ku nkuta, ikagira amatara adasanzwe hejuru hakabamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo agatanda keza cyane, nk'uko bigaragara aha ni ho basuzumira abarwayi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ibitaro. Hari kugaragaramo ibitanda byiza, inyubako nziza, inkuta nziza, amatara meza. Hari isima nziza cyane ndetse hakabamo n'ibirahuri byiza cyane. Abarwayi barwariye aha bakira vuba.

Inyubako nziza cyane irimo intebe nziza, si ibyo gusa, hasi hari amakaro meza cyane abengerana, inkuta ziriho irangi ry'umweru ndetse mu imbere harimo amatara meza cyane yaka, aha rero nk'uko bigaragara, hubatse nk'aho ari mu ivuriro.

Aha ni mu ivuriro rwagati, harimo abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, n'undi wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku, uyu wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku, yambaye n'amarineti, uwambaye ishati y'umweru ari kumuhugura, amutungira urutoki ku cyapa amusobanurira.

Inyubako nziza cyane irimo intebe ndetse n'utwuma kabuhariwe mu gusuzuma, hejuru hari amatara yabugenewe, ku nkuta hariho irangi ry'umuhondo, hasi hariho isima. Nk'uko bigaragara iyi nyubako ni iy'ivuriro, kandi haravurirwa.

Aha turahabona umuganga yambaye imyenda y'abaganga ari kwigisha umwana afite ikintu kiriho amenyo, ari kugenda amwereka iryinyo ndetse n'ishinya akamwereka uko bashobora kurikura nuko barivura.

Aha barakwereka ko siporo ari ubuzima nk'uko tubibona hari ibyapa bitandukanye birimo abantu bari gukora siporo zigiye zitandukanye, haba abakora siporo bunama, abicunda ku byuma ndetse n'abandi. Aha rero nawe wafata umwanzuro ukajya ukora siporo kuko n'ubuzima.

Ameza ateretseho ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara, hateretseho isahani ikoze mu mutima, iteretseho imbuto zigiye zitandukanye nk'imyembe, marakuca, inyanya ndetse n'izindi. Si ibyo gusa kuko hari n'ibyuma byifashishwa mu gukora amashanyarazi n'ibindi byifashishwa muri siporo.

Icyuma kabuhariwe gikorerwaho siporo, kiri mu nzu nziza cyane, inzu yubakishije amakaro hose, ikaba ifite parafo nziza cyane y'umweru, inkuta zose ni umweru, hafi aho hari icyapa kiriho ibara ry'icyatsi.

Akuma keza cyane kariho amapine ane. Aka kuma kari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, gafite ikintu kimeze nk'umukondo kandi kifashishwa muri siporo. Aka rero wagakoresha ukagorora umubiri wawe ndetse n'ubwonko ukagira ubuzima bwiza.

Siporo ni ubuzima, aha hari umugabo uvuye muri siporo nk'uko bigaragara yazikoze kandi zamugiriye umumaro yabize ibyunzwe ameze neza cyane, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kuyanywa yishimye bigaragara ko yagize ubuzima bwiza.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye, nkuko bigaragara iyi miti ni iyifashishwa mu gihe cya siporo. Harimo ibinini, hakabamo pomade ndetse n'indi miti igiye itandukanye. Iyi miti rero abakora siporo bakunze kuyikoresha.

Iyi ni imiti ndetse n'ibikoresho kabuhariwe, iyi miti ndetse na bino bikoresho byifashishwa mu bijyanye na siporo, aho ushobora kuwisiga imitsi ikagororoka, aho ushobora gufata umugozi ukawusimbuka maze ukagira ubuzima bwiza, iyi miti rero igezweho.

Ni agagasanduku karimo imiti abaganga bifashisha bari kuvura, ibi bikunze kugaragara ku bibuga by'umupira ahakorerwa siporo ndetse hari n'utundi twuma bifashisha, hakaba hari ubwoko bugiye butandukanye bw'imiti bifashisha.

Akagare k'abafite ubumuga, nk'uko bigaragara nta muntu ukicayemo, aka kagare gafite ibyuma birimo amabara y'ubururu, amapine y'umukara ndetse n'umusego waryo ni umukara, nk'uko bigaragara rero rifasha abantu kugenda.

Aha hari ibyuma kabuharibuye bikoreshwa siporo sibyo gusa, hari imbuto zigiye zitandukanye umuntu umaze gukora siporo ashobora gufata. Izi mbuto rero harimo imineke, amarongi, inyanya ndetse n'ibindi.

Imiti igezweho ni imiti myiza cyane, harimo ibinini ndetse hakabamo n'indi iri mu dukarito, utu dukarito turiho makumyabiri n'ane kuri arindwi, bivuze ngo iyi miti ikoreshwa amasaha makumyabiri n'ane ku yandi mu cyumweru cyose, iyi miti ni myiza kandi iravura.

Aha hari imiti ya gakondo igiye itandukanye, aho tubonamo igizwe n'amababi, igizwe n'ingemwe ndetse n'indi igizwe n'ibijumba, turahabona tungurusumu, tukahabona tangawize ndetse n'indi miti y'amababi.

Iyi ni imiti iteguranye ubuhanga ndetse n'isuku, nk'uko bigaragara iteretse ahantu heza cyane kandi yateguwe n'inzobere maze ziyipfunyika mu bintu byiza cyane, iyi miti rero iyo uyinyweye iragufasha ikakuvura bidatinze.

Ibibabi byinshi cyane kandi byiza nk'uko bigaragara ni ibimera bimeze neza cyane, biriho amababi meza atohagiye kandi ibi bimera byifashishwa mu gutegura imiti bakayitunganya maze hakabaho imiti ivura.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye, utu ducupa na two turatandukanye, hari akapa gaciyeho umurongo w'umuhondo, hakaba akazeru karimo umuhondo n'umukara, hakaba hateretse uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti.

Abantu bafite amasura meza nkuko bigaragara kuri aya mafoto hariho abantu batandatu bose bari bafite ikibazo ku isura, ariko bakoresheje umuti mwiza cyane ugezweho uri mu icupa rigaragara hano babasha gukira.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye kandi igezweho. Aha rero turi kubona etajiri irimo amacupa agiye atandukanye, hakaba harimo umukobwa wambaye itaburiya y'abaganga ndetse afite n'imisatsi myiza cyane y'umukara, hari n'undi muntu umeze nk'aho wunamye wambaye ikintu cy'umuhondo. Aha hakaba harimo amacupa, ay'amazi ndetse n'ayandi.

Imiti myiza cyane kandi igezweho iteguye mu buryo bugezweho, hano turabibona neza cyane, nk'uko bigaragara hari udupaki dutatu tw'ubwoko bw'imiti, rero ifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibicupa bibiri byose biteretse biriho imipfundikizo, kimwe gipfundikijwe agapfundikizo k'umutuku ikindi ak'umukara. Byombi bishushanyijeho igikakaruwamba nk'uko bigaragara ni imiti gakondo, iyi miti yifashishwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imiti myiza cyane kandi ya gihanga, iteguye mu buryo bugezweho, ikaba ifunze mu tuntu tugiye dutandukanye. Hari ifunze mu tumeze nk'utubido, hari ifunze mu tumeze nk'uducupa duto, hari ifunze mu icupa rimeze nka gurude ndetse hari n'indi ipanze mu gikarito.

Ibiti byiza cyane biriho indabo nkuko bigaragara, hariho indabyo nziza cyane hari izisa umuhondo, hari izisa umweru, hari izisa iroze, ndetse hariho n'imbuto. Aha rero bakaba bagaragaza uko ibiribwa byagiye bizamuka bitewe n'izi mbuto.

Imiti myiza cyane iteguye neza, ikozwe mu buryo bugezweho. Ifunze mu dukopo tumeze nk'utwa korogate ndetse hashushanyijeho imibu. Hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi uducupa ni umweru.

Imiti gakondo iteretse ku kantu kameze nk'umusambi igiye iri mu tuntu tumeze nk'utwabya, ariko nayo igiye itandukanye, harimo imeze nk'udufu, hari n'indi imeze nk'ibijumba, aha hateretse utuntu tugiye dutandukanye harimo utuntu tw'utubando ndetse n'utumamiro.

Imiti gakondo igiye itandukanye. Nkuko tubibona hano hari imifungo igiye itandukanye y'imiti. Hari iri mu ibara ry'ubururu, umukara, umweru ndetse n'umutuku. Si ibyo gusa, kuko hari n'agasekuru karimo umuhini.

Ibi ni ibiti bitari birebire cyane biteretse mu mavaze ahantu imbere y'umuhanda ariko nkuko bigaragara ibi biti hari bamwe babikoresha babikuramo imiti, iyi miti ikaba ari imiti gakondo kandi iyi miti ikaba ari mibi.

Uyu ni umuti gakondo ukozwe neza utunganyije mu buryo bwa gihanga. Uri mu icupa ryiza cyane riteretse ahantu hari ibara ry'icyatsi kibisi, nk'uko bigaragara upfunze mu icupa rimeze nk'irya Korogate. Aha rero uyu muti bigaragara ko uvura neza cyane.

Ikiganza cyiza cyane gifashe ku ibabi ry'igiti nk'uko bigaragara icyo giti ni icy'umuti, uyu muti ukaba ari umuti wo mu bwoko bwa gakondo, hari abantu bagikoresha imiti ya gakondo ariko si byiza, kuko ishobora kwangiza ubuzima bwabo.

Iyi ni imiti gakondo iteye ahantu mu murima, nk'uko bigaragara ni ibiti birebire, bifite amashami ndetse n'amababi, bimwe birihungura ibindi bikera bigatukurirana, ariko ibi na byo byifashishwa mu kwivura cyane cyane ku bantu baba badashaka kwishyura ubwishingizi.